Ibikoresho byifashishwa n'abana igihe baba ari kwidagadura cyangwa se barimo gukina, hakaba harimo imigozi ndetse n'ibindi bikinisho byifashishwa n'abana.

Ikigo cy'amashuri ya nkubi, kikaba ari ikigo cyubakishije amatafari ahiye, kikaba gikingishije ibyuma bisa ubururu.

Icyumba cy'ishuri kikaba ari icyumba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru ndetse n'umukara hasi, mwarimu akaba arimo kwandika ku kibaho cy'umukara.